Mu muhanda abantu banyuragamo n'imodoka hijya yagwo hari ibyatsi bigufi n'ibiti birebire n'ikirere gisa n'umweru ,hino yagwo hakaba hariho n'ibindi bintu bikogwaga muri sima akaba bifite amabara abiri ijy'umukara n'ijy'umweru.

Indeege iri mu kibuga ikaba ifite amababa n'ibipara, ikaba ikoreshwa mu gucunga umutekano w'abaturage bagiye batandukanye, hirya yaho hakaba hari imodoka iri kuza n'inzu ifite ibirahuri byiza ndetse n'ikirere gisa neza.

Mu Rwanda tugiraga abantu bashinzwe kurinda abaturage, no gukemura amakimbirane, no guhana abandu bahohotera bagenzi babo, cyangwa se bibye, cangwa bishe. Akaba ari iciciro c'abapolisi bagiye batandukanye. Uyu rero mubona aha ngaha ni umupolisi mukuru, ufite amapeti menshi. Akaba adufashaga mu gukemura ibibazo.

Umugabo ushinzwe umutekano bita mu ndimi z'amahanga polisi ufite mikorofone, imbere ye hakaba hariho abaturage benshi harimo abana, abagabo n'abasirikare. Bari inyuma ye bambaye imyenda ya iniforome n'undi mugabo wambaye ingofero isa naho ifite imitako y'umuhondo.

Abagabo bashinzwe umutekano mu gwanda bambaye ingofero n'udupfukanywa, bambaye n'utujiri tw'umukara bakaba bafite n'ikirangantego cy'u gwanda, inyuma yabo hakaba hari inzu, bakaba banahagaze mu muhanda bategereje amabwiriza bahabwa.

Sale ahandu baremeragamo inama. Hakaba harimo abandu benji, kugira ngo batege amatwi umuyobozi ugiye kuvuga ijambo arabagezaho. Hakaba harimo indebe zisa n'aho ari umweru, n'inzugi ,ndetse n'amarido. Imbere yabo akaba ariyo umugabo ufite mikorofone, bategereje icyo yababwira.

Sale, ahantu dukoreshaga igihe dushaka kwiyakira habaye ubukwe, inama kandi muri iyi salle hakaba harimo amakaro, amarido, ndetse na za parafo. Iyi sale ikaba igaragara ngaho yakwakira abantu benji, kandi irimo abandu bari mu matsinda basa n'aho bari mu magurupe hari icyo bari kuganiraho.

Abantu benshi bari mu nama harimo abagabo n'abagore n'abakobwa bakaba bambaye kositimu nziza cyane na za karuvati, imbere yabo hakaba hari umugabo ufite mashine imbere ye, iruhande rwe hariho amazi yo kunywa, uwundi wambaye ishati idafite ikora imbere ye hakaba akaba hariho telefone bita simati n'amazi yo kunywa.

Abagabo n'abagore b'icyubahiro bicaye hamwe bari mu nama, bafite amazi imbere yabo hakaba harimo inzego zigiye zitandukanye: abapolisi ndetse n'abasirikare, n'abagabo bafunze karuvati na kositimu nziza.

Abandu benji bateraniye hamwe bakaba bateraniye mu kindu bitaga ikidara imbere yaho hakaba hari abandi bandu ba basa n' abambaye kositimu n'umugore wambaye ikoti ry'umutuku n'imisatsi ya natirere akaba hari ico ari kubabwira akaba n'ikindi kidara kiri haruguru ye gifite utuntu tw'ubururu mu gihe icimbere ye gifite umutuku

Inama iyobowe n'abantu bagiye abashinzwe iby'umutekano, harimo abasirikare, polisi n'umugore uri imbere yabo ufashe mikorofone yiteye n'agashora mu muhogo, yambaye ikoti bita kositimu. Inyuma ye hakaba hari ameza n'abantu bateze amatwi inama ari kubagira.

Inama yateranyije abantu batandukanye, bashinzwe ibintu bitandukanye, hakaba harimo umusirikare wambaye ingofero, n'umugore ufite mikorofone imbere ye n'amazi, wasutswe, n'undi mugabo wambaye rinete, n'ishati y'icyatsi, bakaba bari ku meza ariho igitambaro cyiza.

Abandu bicaye ahandu heza hafite indebe nziza n'ameza meza. Bakaba bateze amatwi umundu uri kuvuga. Umugabo wambaye isaha n'ishati ya tisheti idafite ikora n'umufuka gumwe. Akaba yambaye n'impeta, afite mikoro. Yambaye na rineti, hari ibyo agiye kubagezaho. Abari inyuma ye bakaba bafite amazi ku meza yabo bicayeho.

Umundu wambaye ibirenge uri kugendera mu muhanda nyabagendwa, n'agapira gaciye amaboko. Akaba yikoreye umuvure baheragamo inga amazi igihe bari kuzishora hirya ye hakaba hari ibyatsi n'ibiti birebire n'ikirere gisa neza, aho ari kugendera hirya ye hakaba hari n'utundi twatsi tugufi.

Ababyinnyi b'agabo bambaye imisatsi z'umweru bakaba bafite n'icumu, inyuma yaho hakaba hariho ibiti n'amashamba, bakaba barakoreshwaga igihe habaye ikirori mu muco nyarwanda, bikaba byari ibintu byiza cyane.

Mu muco nyagwanda dukoreshaga umwuko mu gihe tugiye guteka nk igikoma cyangwa umutsima gukaba guri ku kintu gisa naho ari igitaga na co kiri hasi ku bintu by'umweru hijya yaho hakaba hari igikuta gifite sima y'umukara ...

Inzu ndangamurage yubatswe mu Gwanda igaragazaga ukundu bari babayeho hambere hakaba ariho abandu bari mu mbuga benji n'igipangu gikoreshejwe imigano inyuma yaco hakaba hari ibiti bitandukanye ndetse n'ikirere gisa na neza.

Mu muco nyarwanda bagiraga amazu gasakajwe ibyatsi nigo abantu bararagamo. Iyi nzu ikaba iri ahandi ku gitaka gisa n'umuhondo, uruzitiro rwaho gukaba gukikijwe n'ibisa naho ari imigano, kandi kuri iyi nzu hakaba hariho n'akabuye bicaragaho igihe bagiye kota nk'akazuba.

Abakaraza ni abantu bavuza ingoma igihe abandi bari kubyina, bakaba bambaye imisatsi z'umweru, bakenyeye, inyuma yabo hari ibyatsi n'ibiti birebire, bakaba bari ahantu hanyujijwe urutsinga hejuru yabo.

Igiseke ni igikoresho abanyarwanda ba kera babohaga, bikaba byari umuco, kidufasha kubikamo imbuto zigiye zitandukanye, nk'ibishyimbo ingano n'amasaka, kikaba ari ikintu gifite amabara iry'umukara n'iry'umuhondo.

Agaseke keza gateretse ahantu hafite amabararaga g'umukara, kakaba gafite amabara iry'umukara, n'irya kaki, tukaba tugakoreshaga igihe tugiye kubikamo nk'imyaka twasaruye, nk'ibishyimbo, cyangwa tugiye gusura bagenzi bacu.

Umuntu usa naho afite igiti hari ibyari gukurura ahantu hari ibyatsi byumye, ndetse n'ibibabi by'icyatsi, hirya ye hakaba hariho amababi y'icyatsi n'ibindi bisa naho ari igitoki, akaba yambaye isengeri n'ikabutura ya bure fonze, akaba ari umugabo usa na ho agiye kunywa.

Ugu ni umutiba dukoresha igihe turi kugushyiramo inzuki kugira ngo ngo tubone ubuki. Ubuki dukoresha mu buvuzi ndetse no kugira ngo umuntu agire amagara mazima, ubuki tukanabukoresha igihe turi kuvura indwara z'uruhu n'ibiheri bitandukanye, kandi ugu mutiba gukaba guri ku biti bisa n'aho ari mu ishyamba, harimo ibiti byumye n'ibitumye.

Mu Gwanda gwo hambere bakundaga korora inga zo bitaga inyambo, zikaba zigiraga amahembe maremare ngaga muri kubona hano, hijya yazo hakaba hariho ahantu bagiraga ubwatsi bwinshi, hakaba hariho n'ikirere cyiza, ndetse n'amashamba, izi nga ni nziza cyane kuko zitangaga umukamo mwinshi.

Mu muco nyagwanda abandu igihe bajaga gushaka amazi nta bwo bajanaga ibijerikani ng'iki gihe. Ahubwo bajanaga udukono utu muri kubona uyu muhungu n'umukobwa bafite, bakaba inyuma yabo hari ibiti birebire n'ibyatsi bigufi, bakaba bambaye n'ibirenge, bakaba bakenyeye bafite n'akandi kandu nigo gwari umuco nyagwanda mu gihe cya kera.

Mu muco nyarwanda abagabo n'abasore bogoshga ibintu bitaga amasunzu, bakaba bariteraga imyitandiyo bakanabyina, bakaba bari ahantu hari ibiti birebire n'undi muntu utari kugaragara neza, bakaba bambaye umushanana z'umweru.

Abakobwa bambaye imyenda isa na kaki mu bitambara binyereye, harimo n'utuntu tugiye dusongoye tw'umukara. Bakaba bafite agakarita kabo ahantu hagana ku ibere, bakaba baradodesheje indodesho yitwa goruje, bafite n'utuntu mu mutwe ndetse bambaye n'ibindi mu ijosi.

Mu muco nyagwanda, igihe wengaga inzoga igashya, watumiraga abaturanyi bakaza mugasangira kuri kuri yo kugira ngo mukore ikirori, munezeregwe, hakaba harimo abasaza n'abakecuru baje gusangira, bakaba baranyweraga mu kantu bitaga agakono, cangwa agacuma.

Mu muco nyarwanda bagira ibikoresho bita ibicuma dukoresha turigushyiramo amata, abageni akaba ari byo bafata igihe basezeranye bikaba biri ahantu hafite uruzitiro.

Abandu bari mu mazi bari kugasha bari kuroba n'amafi bari mu bwato, hijya y'aho hari umusozi n'ikirere gisana n'umuhondo na burefonze, hakaba hari n'igiti ,hakaba harimo ibindi biri gusaguka ng'iruhande ku bwato.

Mu muco nyagwanda bagiraga ubugeni bwo kuboha uduseke no gukora inapera n'udukomo, aha hakaba hari ameza gariho igitambara c'umuhondo hirya y'aho hakaba hari ibiti by'umukara n'ibyatsi n'umuhanda nyabagendwa.

Mu muco nyarwanda iki ni igikoresho twifashishaga igihe turi gushyiramo inzoga. Kikaba gifite ibara rijya kuba umukara, akaba harimo umuseke wa kaki n'umundu ugifashe wagaragaje ikiganza. Hirya yaho hakaba hariho ikibambasi giteye parufe, puderi isa na bure fonze.

Igisero ni igikoresho abanyarwanda bakundaga gukoresha mu muco w'ahashize, kikaba cyarakorwaga mu migano, inyuma yaho bagasigaho amase, kikaba giteretse hasi, inyuma yacyo hakaba hari urukuta rw'inzu yubakishijwe igitaka n'urugi rwo mu giti.

Mu muco nyagwanda abagabo bogoshwaga amasunzu. Kera hashize bakaba baritandiyaga n'imishanana, bakaba ari abandu bakundaga kubyina no guhinga, bagakora imirimo ijaniranye n'ubworozi ngo kuragira.

Mu muco nyarwanda abagore bogoshwaga neza，bagatunga imisatsi yabo iri natirere， habe no gushiraho ibisuko cyangwa se n'ibindi bisatsi bagura by'ingofero，ahubwo bakoreshaga n'ibinigi，ibyo bambaraga mu ijosi kugira ngo bagaragare neza，uwo niwo wari umuco nyagwanda mu bihe byashize.

Mu muco nyarwanda igihe dusaruye ibishyimbo tukabihura dukurikizaho igikorwa cyo kugosora dukoresheje intara. Hakaba hari abakobwa babiri bambaye ingofero n'undi witeze n'amapantaro bari kugosora. Inyuma yabo hakaba hari ibindi bishyimbo biri mu murima byumye n'ibitaruma neza n'ibiti birebire n'ikirere cy'umweru.

Mu muco nyarwanda igihe twashakaga kurya isombe, twakoreshaga igikoresho bitaga isekuro gifite n'umuhini. Umwana uri gusekura wambaye ijipo y'umutuku n'agapira gasa na ho gashaje, n'abagabo batatu bari kumureba. Inyuma yabo hakaba gateyeho amateke n'ibitoki.

Mu muco nyarwanda habagamo abagore badoda imyenda bita iy'ubudodo, bakoresheje ikoroshi ifite iryinyo rimwe, bakaba bafite ibisuko, bambaye udusengeri tw'umutuku bari ku meza, hariho imipira badoze, n'ibindi bikoresho bakoresha igihe bari kudoda.

Abakobwa batatu b'ababyinnyi bambaye urugori mu mutwe gwabo, bakaba bafite imisatsi ya natirere. Bakaba bitandiye akandu ko hejuru k'umuhondo n' akabodi k'icatsi, bakenyeye ubururu hasi. Bahagaze ahantu hari ibyatsi, inyuma yabo hakaba hariho imodoka n' inzu isize sima.

Intore ni abantu babyina bagasusurutsa abantu，ibyo bikaba biba mu muco nyarwanda，inyuma yabo hakaba hariho abakaraza，n'abantu abari gucurira bakenyeye imikenyero y'umweru，hakaba hariho n'ibiti bifite uturabyo tw'umuhondo， n'ibindi byatsi bifite amababi y’umuhondo bigufi n'ibiti birebire.

Mu muco nyagwanda habagamo ububyinyi, bakaba ari ababyinyi bambaye imishanana, gumwe gukaba gwitewe ku rutugu n'ibindi bikomo bambaye mu josi, bakaba bambaye n'ugundi mugozi mu mutwe, bafite n'ibiti bakoreshaga igihe bari kubyina, hijya yaho hakaba hari ibiti bigiye biri birebire bitandukanye.

Indore ni abandu babyinaga bakaba bambaye ibisatsi by'umweru n'amayogi, bakenyeye hasi umuhondo n'utundi dushumi bashize mu muhogo dukoze egisi, bakaba bari ahandu heza cyane hateye amabengeza.

Agacuma ni igikoresho abanyagwanda bakoraga, bagashiramo inzoga, ndetse bakanyweramo n'ugwagwa, kikaba kiri mu kindu kimeze nk'injundura barobeshaga amafi, munsi yacyo hakaba hariho ikintu cy'umukara, no hirya yacyo hakaba ari irindi bara ry'icatsi.

Abakaraza ni abantu bavuzaga ingoma kakahava, igihe abandi baba ba bari kubyina bagasusuturu bagasusurutsa abantu baje mu gitaramo nyagwanda. Bakaba imbere yabo hari ingoma bafite n'uduti bakoreshaga igihe bari kuvuza ingoma kugira ngo zitange...

Mu muco nyagwanda bakundaga guteka mu ngono, kuko ari zo batsimbagamo ibishimbo, bagatekamo imitsima bitaga iy'amasaka, bakayicaniramo n'umusururu, n'inyama n'ibindi biribwa.

Agaseke gateye amabengeza gafite amabara meza cyane, irya bure siyeri, ubururu n'umuhondo. Gateretse kuri sima ndetse inyuma yako hakaba hariho inzu y'igitaka, hasi yaho hakaba hari ubutaka busanzwe.

Mu muco nyarwanda abagore babohaga ibirago bakoresheje utwatsi dufite imbuto. Hejuru hirya y'ibirago hakaba hariho ibyatsi byumye, hakaba hateretseho inkoko n'ibindi bikoresho twifashisha turi kubikamo amata n'izindi nzoga.

Mu muco nyagwanda twagiraga intore zatubyiniraga igihe tugiye kwisusurutsa, tugatumira n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo twishimane. Bakaba bambaye ibisatsi by'umweru, n'udupira tw'umukara. Bakenyeye n'ibindi bindu, bambaye n'ibindu bitaga amayogi ubyina bikavuga.

Mu muco nyarwanda bagiraga intore, ni abantu twifashishaga igihe habaye ibitaramo nyarwanda, bakatubyinira tugasusuruka, ndetse bakaba bafite n'amacumu n'akantu dukoresha turi kwirinda, bambaye n'imisatsi y'umweru bakaba bakenyeye hasi, bambaye n'amayugi babyina.

Abagore babiri bikoreye ingono n'abana babiri harimo uwikoreye ingono ibiri n'undi wikoreye agafuka wagira ngo karimo utundi tundu, bakaba birogoshe ibitenge wagira ngo bashigajwe inyuma n'amateka, bakaba bahagaze ahandu hari ibyatsi bisa n'aho byumye, inyuma yabo hakabaho ibiti bigiye bitandukanye ibirebire n'ibigufi.

Iki ni igikoresho bitaga umuvure bakoreshaga iyo bari gushora inga igihe zifite inyota bakanagikoresha bashyiramo amazi, igikukuri kugira ngo inga zimererwe neza.

Mu muco nyagwanda bakundaga gukoresha ibicuba. Igihe bagiye gukama amata cangwa se kuyabikamo, bagacundiramo n'amata kugira ngo gabahereze amavuta, bikaba biteretse ku mukeka, hakaba hariho n'uruzitiro rukoreshejwe imigano.

Mu muco nyarwanda igihe habaga ubukwe, abagore bafataga uduseke abandi ibisero n'inkono, bakagenda baherekeje umugeni cyangwa se bagaragiye uwo mugeni, hakaba hariho abagabo bafite ikaziye ifite ibara ry'umutuku, haruguru yabo hakaba hariho igiti gifite amababi y'icyatsi, hepfo yabo imodoka ifite amapine ane.

Ingono ni igitaka abandu babumbabumbaga, bikavamo ibi tukaba tubikoreshaga igihe tugiye guteka ibishyimbo, cyangwa umutsima n'ibindi byokurya. Bikaba biteretse ku butaka ahandu hari amabuye gabifashe.

Mu muco nyarwanda, hatari haza imashini zisya isombe, twakoreshaga iki gikoresho turi gusekura, bikaba byaragoranaga cyane kuberako byasabaga imbaraga, kikaba giteretse ahantu hari senyenge.

Umukecuru wambaye urugori ,ufite akantu dukoresha igihe turi gucuranga turi gususurutsa abantu, inyuma ye hakaba hariho ibyatsi bitoshye, n'izuba ,n'iyindi nzu ihomeshejwe igitaka n'ikindi kintu barambitse hasi cy'umutuku.

Mu muco nyarwanda twagiraga abantu bitaga intore, akaba ari ababyinnyi babyinaga bagasusurutsa abantu, hakaba hari abakobwa bambaye ibintu bigiye bitandukanye, harimo n'amayugi n'utundi tuntu turi mu mutwe two bambaraga igihe bagiye kubyina, inyuma yabo hakaba hariho amatara ari kwaka icyatsi.

Mu muco nyagwanda igihe habaga haba igiterane batumiraga abakobwa cangwa se abahungu bakaza bakabyina, maze bikaba ari ibintu byaryohaga cane, aba bakobwa ni batatu umwe muri bo afite udusaro twinshi n'agati, abandi bambaye ibinigi mu majosi uko ari batatu, kandi uwo hagati afite ikintu c'umutuku gisa n'aho ari inzoka.

Umuco nyarwanda bafata udutebe dukoze mu biti, tudekoye neza, hirya yatwo hakaba hariho amazi ari mu icupa, n'inzu iteye igitaka n'urugi rushaje n'agatebe kakwicaraho abantu babiri hirya yaho hakaba hariho ibyatsi byumye.

Abakobwa batatu bambaye imishanana n'utubodi tw'umweru, bakaba bafite n'uduti mu mitwe yabo, bakaba ari ababyinyi babyinaga igihe habaye ibitaramo mu muco nyagwanda. Hijya yabo hakaba hariho igiti kirekire cane, n'ikirere.

Mu muco nyarwanda tugira abantu bashinzwe kuvugira inka ibivugirizo byo kuzitaka no kuzisingiza. Hakaba hariho umuriro uri kwaka, ahantu hari ibyatsi bigufi n'inka zifite amahembe maremare bitaga inyambo. Inyuma yazo hakaba hari abantu benshi n'ibiti birebire.

U Rwanda rwo hambere, igihe bakoraga intebe bakoreshaga imigano. Hakaba hari abagore n'umugabo bari kwambuka, umugabo wambaye isaha, umugore wambaye agapira k'umutuku ndetse haruguru yabo, hakaba hari inzu ifite amarangi y'ubururu na kaki, n'ibiti biri inyuma yabo birebire cyane.

Mu Gwanda tugiraga indore ni abantu babyinaga bakahava bakaba bambaye ibisatsi bisa n'umweru ndetse bakaba bambaye n'ibindi bigozi by'ubururu n'abandu bari kubyina babakobwa wagira ngo ni abana hakaba bari ahantu hari ibiti bisa n'aho hari induzi bifite amababi menshi.

Iki gikoresho gikoreshwaga n'amashanyarazi, igihe nda muriro ndabwo gikoraga, kikaba kiri ahantu wagira ngo ni igikuta, haruguru yayo hakaba hari amabara g'umweru no hepfo yayo, munsi yacyo kikaba gifite akantu kari kurengukaho, bisa naho ariko gikoze.

Ipenzi ni igikoresho dukoreshaga igihe turi gufunga iburo ryafungutse ahantu ku mashini, kigakoreshwa no mu bwubatsi igihe turi guhuza ikintu n'ikindi. Kikaba gifite amabara abiri, iry'umutuku n'umukara ndetse rikaba rishushanyije ng'umukasi.

Ibikoresho bikoreshwa amashanyarazi, bikaba bifite amabara atandukanye. Harimo iby'umutuku n'iby'umukara. Biriho na nimero n'utuzeru dushushanyijemo. Hakaba hariho n'agapapuro kanditseho na nimero na karite y'icyo gikoresho n'uburyo gikoreshwa.

Igikoresho gikoreshwa amashanyarazi, kikaba gifite insinga zigiye zifite amabara atandukanye, uru rusinga rwose rufite akamaro kagiye gatandukanye n'akandi, hakaba harimo izifite ibara ry'umukara, ubururu n'umuhondo, n'umutuku, bikaba biri ahantu bacomeka ku muriro.

Igikoreshosho giteretse hasi ahantu hasize sima kikaba gikoreshwaga n'amashanyarazi igihe tugiye gukora ibintu bigiye bitandukanye harimo nko gusya ibintu ndetse no gusudira nk'inzugi n'ibindi bikoresho bikoreshwaga amashanyarazi bisaba kugira ngo bikore neza.

Ibikoresho bikoreshwaga amashanyarazi bitaga elegiterisite mu ndimi z'amahanga. Bikaba bidufashaga gutanga amakuru mu buryo bworoshye, kandi bukaba tubikoreshaga n'igihe dushaka kureba nk'agafilime cyangwa andi makuru atandukanye mu bice by'isi.

Igikoresho gikoreshwaga umuriro gw'amashanyarazi, kikaba munsi yaho hariho ibara ry'ubururu kikaba gifite insinga nyinshi zigiye zitandukanye. Iz'umuhondo n'iz'umutuku, n'iz'ubururu, n'utundi twuma tugifashaga kwinjizamo umuriro kugira ngo gikore.

Itara ni igikoresho dukoreshaga igihe tugiye kwirukana umwijima ahandu dukoreraga kugira ngo tubone ibyo twaba turi gukenera gukoresha, rikaba rikoreshwaga ngo ku masoko, ngo mu nzu, ndetse no mu bitaro, rikaba riteretse ku meza kuri ayo meza hakaba hariho ikindi gikoresho gisa n'umukara.

Urusengero ruri hamwe n'agandi mazu gagiye gatandukanye, iruhande rwago hakaba hari inzu yasima, inyuma yarwo hakaba hari indi nzu ifite amabati g'umutuku, n'ibiti, n'abagabo bari imbere yago, umwe ari kureba mu nzu ifite amadirishya y'icyatsi, n'amabarara g'umuhondo g'amarangi, akaba ari iruhande rwago, I inzira nyabagendwa abandu banyuragamo.

Abandu bagiye batandukanye. Abakobwa n'abagabo bari kubaka fondasiyo bambaye amajiri g'icatsi n'ingofero z'umutuku dukoreshaga turi kwirinda. Inyuma yabo hakaba hariho amashuri gafite amarangi g'umuhondo n'amabati g'ubururu.

Urusengero gwubakishije amatafari gahiye, hakaba hari igishusho c'umugabo wambaye imikanzu, akaba ahagaze ku kantu k'akameza. Rukaba rufite amabati ndetse na parafo n'urugi rurimo amabara, umuhondo, burusiyeri n'umweru ndetse n'ikindi gitambaro kiri imbere yagwo cy'umweru.

Inzu basengeragamo. Imbere yayo hakaba hariho pasipalumu irimo indabyo zigiye zitandukanye. Iz'umuhondo, n'ururabo rufite amababi maremare garambuye g'icatsi, ndetse n'abantu bagiye gusengeramo, abana ndetse n'abakuru.

Urusengero imbere yago hari umuhanda n'abandu bagiye batandukanye harimo abambaye imishanana z'ubururu ndetse n'ibodi y'umweru n'imodoka iri imbere yago n'ikirangandengo kigaragaza aho ugiye aho ariho rukaba gubakishijwe amatafari gahiye inyuma yago hakaba ariyo ibiti by'icatsi ndetse n'ikirere ciza n'umusaraba hejuru ku mabati n'urunsinga rw'amashanyarazi.

Uru ni urusengero rurimo amadirishya rukaba ingazi ndetse n'urugi, rw'umutuku iruhande rwaho hakaba hariho ibyatsi byiza, ndetse n'iyigirango kigaragaza aho ugiye kujya uru rusengero turukora kige tugiye kuramya, Imana cyangwa se gusenga tujye dutekereze ku Imana.

Umuhanda gwa kaburimbo gwubatswe na leta y'u Gwanda, gukaba iruhande yagwo hariho amapoto ariho amatara yo ku muhanda n'umumotari, n'ibiti byiza birebire n'ibyatsi by'icyatsi, ndetse n'umusozi n'ikirere cyiza cyane gisa n'ubururu.

Inga, inyamaswa yororerwa mu mago y'bantu, ikaba ifite amabara atandukanye, iky'umweru n'umukara, yambaye n'isutiye y'icyatsi iri ahandu mu kiraro bayigaburira ibyo kujya.

Urusengero ruri ahantu ruherereye, imbere yarwo hakaba hariho ibyatsi , rukaba rufite amabara gage agiye atandukanye: iry'umukara n'iry'umweru n'umuhondo n'amabati y'umutuku, inyuma yaho, haruguru akaba ari umugabo uri kuza anyuze mu nzira nyabagendwa , n'ibiti byiza cyane n'ikirere cy'umweru n'icya bulesiyeri.

Urusengero runini gwiza rugeretse rufite n'idarapo imbere yagwo. Hakaba hariho umundu w'umuzamu ushinzwe gukingurira abandu baje kuhinjira, hakaba hari na parikingi n'amatara ndetse hakaba hariho...

Ibyatsi bisa n'aho byenda kuma bifite uturabyo, biri imbere y'urusengero rwubakishije amatafari, rukaba rusize amarangi y'umuhondo n'umukara, inyuma yaho hakaba ari ibiti birebire, n'andi mazu ya elisede, n'ikirere cyiza.

Inzira nyabagendwa inyugwagamo n'abandu bagiye gusenga Imana cangwa gusengera igihugu. Yubakishijwe amatafari gahiye, ikaba ifite amabara g'umuhondo n'amabati g'umutuku. Haruguru yayo hakaba hariho ikirere ndetse hakaba hariho n'ibiti imbere yayo.

Urusengero rufite igipangu gishushanyijeho abana, inga ndetse rukaba gwanditseho n'amagambo mo imbere hakaba harimo urusengero rufite amarangi g'umuhondo namabati g'umweru, haruguru yago akaba ari inzu ya elisede ifite amabati g'umutuku, inyuma yayo hakaba ari ibiti hejuru hakaba haciyeho urusinga rw'amashanyarazi n'ikirere gisana n'umweru n'ubururu.

Urusengero gubakishije amabuye hakaba harimo amarangi ijy'umukara n'ijyumweru, hejuru yago hakaba haciyeho inzinga z'amashanyarazi n'ikirere, inyuma yago hakaba hariho n'ibiti byinji haruguru yaho hakaba ariho inzira nyabagendwa abandu banyuraragamo.

Urusengero rufite inkigi, hakaba hariho umukozi wa mtn uri hamwe narwo, nundi mugabo ugiye kugura amayinite, kumu emutiyani wo hepfo w'umugore wambaye agakapu, n'abandi bagore babiri harimo uhetse umwana, ufite n'agakapu ko mundoki uri kugenda bitaga handibaga mu ndimi zamahanga.

Ikiraro tugikoreshaga igihe dushaka kwambuka tugiye ku ruhande rumwe tugana ku rundi, kandi ku kiraro ndi kubonaho umundu n'icuma gifite amabara atatu, iry' g'ubururu n'umuhondo. Munsi yacyo hakaba harimo amazi ndetse n'ubwatsi hirya yacyo ahagana haruguru hakaba hariho ibiti byiza bisa n'aho ari imitako.

Uburenganzira bwa mundu bwateye imbere mu Gwanda kubera ko umuturage ico ashatse gukora aricyo akoraga. Aha hakaba hari abaturage bagiye batandukanye. Abana, abagore n'abagabo bakaba bicaye ahandu hari ibyatsi bibisi byiza cyane, bakaba imbere yabo hahagaze umugore wambaye rineti z'umutuku n'ikanzu y'igitenge, hejuru hakaba hariho akandu k'umuhondo.

Uburenganzira n'ubutabera birakurikizwaga mu Rwanda kubera ko igihe wakoze nk'amakosa, batabasha kugira ngo bakureke ahubwo bakujyanira inzego zibishinzwe byaba ari ngombwa uri kubeshyerwa cyangwa ari ukuri ugafungwa ,bakagukatira imyaka runaka cyangwa amezi bitewe n'icyaha co wakoze.

Abantu benshi bateze amatwi umuntu uri kubigisha wambaye kositimu y'umukara n'ishati y'mweru kandi bakaba bari kwigishwa ku bintu byerekeranye n'uburenganzira bwa muntu igihe yakosherejwe cyangwa agakosereza mugenzi we ko akwiye kujanwa mu butabera, agahanwa, agahanigwa ibyo yakoze.

Uburenganzira bwa mundu bwigishagako igihe wavuze ibidakwiriye ugomba kujanwa mu butabera bakaguhana bakurikije icaha wakoze. Aha hakaba hari abagabo bafite imbapuro imbere yabo, uwo hijya akaba afite imashini, bakaba bafite n'ibikapu imbere yabo biteretse ku meza.

Uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, bwigisha ko umuntu wese afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka, ariko iyo ukoze igitandukanye n'amategeko yabwo urafungwa bakaguhana ibikwiriye ibyo wakoze, aha hakaba hari umuntu wafunzwe wambaye imyenda y'abagereza, n'umugore wagira ngo ari kumubaza imbere ye hakaba hariho akameza gatoya.

Abantu benshi harimo n'abanyeshuri n'abaturage, umugore ufite mikoro y'umuhondo ndetse yambaye n'igitenge kirimo amabara gatandukanye iry'umutuku, umuhondo, n'icyatsi, inyuma ye hari umugabo wambaye ishati ndetse n'abandi bari inyuma ye bari kwiga ku burenganzira bwa muntu.

Abantu bari kwigishwa ibyerekeranye n'uburenganzira bwa muntu, kugira ngo ukoze amakosa ahanwe igihe yabangamiye mugenzi we, hakaba hari umugore ufite ibisigo na mikoro fone, wambaye ikanzu yo mu gitenge bita ibaze uri kubahereza imiburo, inyuma yabo hakaba hariho amazu n'ibiti.

Amodoka menshi gari mu muhanda harimo abandu benshi bagiye batandukanye n'abakozi ba emuteni batangaga amainite n'inzu ifite ibyumba byinshi n'inzugi zifite amabara g'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu muhanda bamwe bakaba bagiye gutega, abandi bakaba bari kugaruka ,bisa naho bageze aho bakagombye kugezwa ,harimo abambaye amajiri y'umutuku n'ibara rigiye kuba umweru , n'umukobwa wambaye agapfukanwa k'umukara , n'undi wambaye ipantaro ufite ibisuku.

Umuntu utwaye igare ahetse n'igitoki bisa naho akijanye ku isoko cyangwa kugicuruza, hakaba hariho amazu ndetse n'igipangu gifite senyenge n'amazu asize amabara y'umuhondo n'ibyapa by'icyatsi.

Muri gare ahantu bajyaga bagiye gukatisha, kugira ngo babone uko bajya mu gace kamwe, bava no mu gace bajya mu kandi. Harimo abantu benshi bisa n'aho bagiye gutega imodoka bita Ritiko, iba ari nziza cyane igihe wayicayemo.

Muri gare ahantu tujya tugiye gukatisha, kugira ngo tujye mu ntara cyangwa mu tundi duce dutandukanye, hakaba harimo imodoka nyinshi zidufasha kujya ahantu hamwe, tugiye ahandi n'abandi benshi, bisa n'aho bagiye gutega abandi bari kuvamo.

Imodoka nini irimo umuhanda mu mujyango gwayo hakaba harimo umugabo wambaye agapira k'umutuku n'ikoboyi n'ingweto hakaba harimo abantu benshi, hijya yayo hakaba hari indi modoka ndetse n'inzu n'ikindi kibegeti bashiragamo imyanda.

Ritiko ifite amabara abiri iry'icyatsi n'umweru, ikaba ifite n'ibirahuri, ndetse ikaba idufasha mu ngendo zacu za buri munsi, igihe tuvuye mu gace kamwe tugiye mu kandi. Haruguru yayo hakaba hariho ibiti birebire n'ibyatsi bigufi, n'inzu isize amarangi y'umuhondo.

Imodoka nini ifite amabara g'ubururu， n'iry'umuhondo，inyuma yayo hakaba hariyo ibyatsi n'ikirere gisa n'ubururu， ikabidufashaga mu ngendo zacu za buri munsi， igihe tugiye mu gace kamwe tugiye mu kandi no guhaha ibintu bitandukanye.

Abantu benshi bicaye mu bwato bufite amabati bakaba bagiye gutembera, bambaye utujire tw'umuhondo harimo n'abambaye ingofero, bakaba bari mu mazi menshi hirya yabo hakaba hariho, kandi amato n'ibiti birebire n'andi mazu menshi.

Umuhanda gurimo amamoto n'imodoka nyinji bisa n'aho habaye ambutiyaje, iruhande gwago hakaba hariyo amazu gasize amarangi g'umweru n'ag'umutuku ndetse n'ibiti bya bindi bisa n'aho ari indabo, hiijya yayo hakaba hariyo n'amazu gasa n'aga Elisede n'ibyatsi by'icatsi n'igipangu kiri hamwe n'iyo nzu.

Imodoka nyishi ziri mu muhanda dukoresha tugiye ahantu hamwe, tugiye ahandi hakaba harimo abantu bagiye batandukanye, ndetse n'amazu ari hepfo yazo asize amabara y'icyatsi n'amabati y'icyatsi, akaba akerekeranye hirya yaho hakaba ari nk'umusozi n'ibiti birimo.

Kwasiteri iri mu muhanda, akaba ari igikoresho kidufashaga mu ngendo zigenda zitandukanye, igihe tugiye mu gace tugiye mu kandi. Hirya yayo hakaba hari ibiti bifite amababi menshi n'ikirere gisana n'umweru n'ubururu.

Abamotari benshi bambaye kasike n'abatambaye kasike bakaba ari abantu badufashaga mu ngendo zacu za buri munsi igihe tugiye mu gace kamwe tugiye mukandi cyangwa se turi kubatuma tubahaye ibyo batwarira umuntu runaka.

Abantu benshi bari ku nzu isa n'aho igeretse, ifite ibirahuri n'amakaro bamwe ni abamotari, abandi basa naho ari abagenzi bagiye gutega. Bakaba bari mu muhanda imbere y'isoko bagiye guhahaho ibyo kurya.

Abandu benji harimo abari kwambuka n'umugore ufashe igikapu uhetse n'umwana wiyorogoshe agatambaro k'umweru n'umumotari uri kugenda, n'abakozi ba Emutiyene bashinzwe gutanga amayinite ,hejuru yabo hakaba hari amapoto gacishijweho inzinga z'amashanyarazi n'ibiti byinji ndetse n'ikigo c'amashuri.

Umumotari utwara abantu abajyanye mu gace agiye mu kandi, akaba ari mu muhanda ufite amarangi y'umukara n'umweru, yambaye na kasike y'icyatsi n'ijire y'icyatsi, akaba ari kuri moto ye, ifite amahembe n'amapine abiri, hirya ye hakaba hari ibiti n'amazu agerekeranye.

Amakwasiteri menji gari aho bagaparikaga inyuma yaho hariho ibiti birebire bisa n'aho ibishupuri ,kuri ibyo biti hejuru hakaba hariho inzinga z'amashanyarazi n'ikirere ciza gisa n'aho izuba riri kuva ,gakaba gadufashaga mu ngendo zacu za buri munsi.

Imodoka nini cane ikozwe mu bwoko bwa litiko hakaba hari umugenzi hanze urikuyihagarika kugira ngo atambuke na shoferi ,inyuma yayo hakaba hari inzu ifite amarangi g' umuhondo n'ibiti birebire n'ibigufi n'ikindi giti gifite amababi g' umutuku.

Urujya n'uruza rw'abantu bari ahantu bita muri gare, hakaba harimo abafite imitaka igiye ifite amabara atandukanye, iy'umutuku, ubururu, hakaba harimo n'imodoka za kwasiteri na Ritiko, hepfo ya ho hakaba hari amazu abantu bajyamo bagiye gukatisha.

Imodoka yikoreye imifuka y'ibirayi myinji, iri kunyura mu muhanda gufite igitaka cy'umuhondo. Imbere yaho hakaba hariho inzu isize amarangi g'umweru n'amabati g'umutuku, n'igiti ciza gifite amababi gatoshe g'icyatsi ndetse iyi nzu ikaba ifite n'uruzitiro.

Gare ahantu tujaga tugiye gukatisha mu duce tugiye dutandukanye, hakaba hari n'ahantu imodoka zihagararaga zivuye muri karitsiye zigiye zitandukanye. Hakaba harimo abandu benshi n'amakwasiteri menshi n'inzu igeretse n'igiti kiri ku ruhande.

Imodoka idufasha igihe dufite urugendo tugiye mu karere kamwe tukajya mu kandi, ikaba ifite shoferi ndetse ikaba ifite amabara y'umweru n'amapine ane. Hirya yaho hakaba hari ikirangandengo cyakurangira aho ugiye mu gihe utahazi, kandi iyi modoka irihuta cyane kubera ko itagenda ihagarara mu nzira.

Imyitozo ngororamubiri zigiye zitandukanye zitumaga umuntu agira amagara mazima. Umugabo wambaye agapira k'umutuku n'umukara, ufite baro mu ntoki bigaragara ng'aho agiye gukina voleboro, kugira ngo agabanye siterese.

Isiganwa jy'amagare ni igikogwa gikoregwaga mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, akaba ari abandu bari gukora siporo bambaye udupira tw'ubururu n'umweru n'abambaye icatsi n'umuhondo, inyuma yabo hakaba hari ho imodoka nyinshi, haruguru yabo hakaba hari ho ipoto ribagaho amatara go ku muhanda, n'ibindi byatsi biri mu gasozi.

Abandu benshi bicaye ahandu hari ingaze. Harimo abambaye ekuteri, n'abambaye imipira ya jamba y'umukara, n'abafite ibisuko n'abambaye ingofero z'ubururu, bambaye n'ingweto zifunze. Wagira ngo bari muri siporo cyangwa se kunanura imbavu. Ni ukugira ngo bagorere imibiri yabo. Inyuma yabo hakaba hariho inzu isize amarangi g'umuhondo. umuhondo.

Abandu benshi bari gukora imyitozo ngororamubiri. Bambaye udupira tw'umutuku n'ingweto bakoreshaga igihe bari muri siporo. Hirya yabo hakaba hariho amabati g'ubururu n'inzu yubakishijwe amatafari gahiye, no hirya hakaba hariho ibiti bifite amababi y'icyatsi.

Isiganwa ry'amagare ni umukino guberaga mu Rwanda gukaba kukogwaga n'abandu bagiye batandukanye, abagore n'abagabo. Hirya yabo hakaba hariho imisozi n'ibyatsi bigufi, bakaba bari muri kaburimbo. Kaburimbo ifite akarongo k'umweru n'ikirere gisa n'aho cyeruye cy'umweru na buresiyeri.

Abandu batanu bari ku magare bambaye ingofero z'ubwirinzi, bakaba bambaye n'udupira turimo umuhondo, ubururu na buresiyeri n'ingweto za siporo n'amasogisi maremare. Inyuma yabo hakaba hariho inzu yanditseho amagambo n'ibiti, bakaba bari ku magare bakoreshaga igihe bari kunanura imbavu ndetse n'izindi ngingo zibaga ku mubiri g'umundu.

Imyitozo ngororamubiri ni igihe umuntu akora siporo zigiye zitandukanye nko kwiruka, gukina umupira n'ibindi. Hakaba hari abagabo benshi bari mu muhanda n'undi umwe uri mu myitozo, inyuma yabo hakaba hariho ibyatsi by'icyatsi n'inzu iteye amarangi y'umuhondo.

Umuhanda gukoreshwaga igihe tugiye mu ngendo zitandukanye, hirya y'aho hakaba ari iy'ibiti byinshi ndetse n'abandu bari mu muhanda n'amazu asa naho ageretse, ndetse n'ibyapa n'amapoto ariho amatara yo ku mihanda.

Imyitozo ngororamubiri ibera mu bice bigiye bitandukanye, abakinnyi bari gukina umupira bari gucengana, umuzamu bakaba bamutsinze aguye hasi. Muri sitade hakaba hariho abafana n'umuntu uri gufotora.

Imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, harimo nko kudunda agatenesi ukagaterera uwundi na we akakaugarurira, hirya ye hakaba hariho imodoka ifite amapine, n'ibindi byatsi by'icyatsi bigufi n'ibirebire n'ibiti bisa n'aho ari binini.

Abantu bari ahantu bakinira umupira, bagiye bambaye ibintu bitandukanye, harimo uwambaye umutuku n'inkweto z'icyatsi n'abandi bambaye ikoti n'ipantaro bya ble fonde, batagaragaje amasura. Bakaba bari ahantu hari imitaka, irimo abantu n'inzu ifite amabara y'umwenda.

Abagabo batatu harimo uwambaye ingofero y'ubururu n'agapira k'ubururu, n'ipantaro y'umukara, n'undi ufite igikombe batsindiye cy'umutuku, n'undi ufite rinete ku ishati ye， inyuma yabo hakaba hariho ibirangantengo bifite amarangi y'ubururu n'umukara.

Umugabo wambaye isengeri y'ubururu n'umweru n'ingofero n'inkweto za siporo bari mu myitozo ngororamubiri, hari ikibuga cy'umuhondo imbere hakaba hari umukobwa usa naho ari gusukira indabo amazi.

Isiganwa ry'amagare rikorwaga n'abantu benshi bagiye batandukanye hakaba hari abantu benshi bari gushungera kugira ngo barebe uko biribuze kugenda hakaba ari ibyatsi n'ibiti birebire by'icyatsi na mazu ga erisede hari ifite amabati genda kuba umukara nagenda kuba umutuku n'urutsinga ruri hejuru yabyo n'ibirangantengo byanditseho bushenge

Imyitozo ngororamubiri ikorerwa mu bihugu bigiye bitandukanye, aba ni abantu bagiye batsinda harimo aba mbere ndetse n'uwa kabiri n'aba gatatu, babiri bakaba bambaye imidari aba mbere, abandi bambaye ibintu bisanzwe harimo n'abambaye bogisa ngufi, n'agapira k'umuhondo undi yambaye ak'ubururu.

Isiganwa ry'amagare ni umukino gwukorerwaga mu bihugu bigiye bitandukanye, hakaba harimo abantu benshi muri ugwo muhanda urimo abantu bambaye udupira tw'umutuku n'imitaka, basa naho baje gufana imodoka, ikaba yasize umucucu mwinshi mu muhanda.

Siporo ni ikintu kigiye gitandukanye abantu bakoraga kugira ngo bagire amagara mazima n'amaraso gatembere neza mumubiri hano hakaba hari umuntu ukoraga siporo wambaye isengeri n'ikabutura akaba ahagaze ku butaka hijyaye hakaba hari ahantu hari har'igikuta gifite amatafari gahiye n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye dukoreshaga muri kasipo.

Imyitozo igiye itandukanye ikorerwa mu bice bitandukanye ku isi, hakaba hariho abantu benshi bahagaze hepfo y'umuhanda baje kureba isiganwa ry'imodoka, ikaba yacucuye, inyuma yaho hakaba hariho ibiti birebire n'ikirere.

Gukina bitumaga umundu agabanya siteresi kandi akagira n'amagara mazima ,kuberako aba akoraga imyitozo kandi ugu mwitozo guherezaga abandu amafaranga ,igihe bari gukina bagatsinda inyuma y'aba bandu hariyo ibyatsi byiza.

Sitade ni inzu ahandu abandu bajaga bagiye gufana ng'umupira gw'abandu bagiye batandukanye bari gukina. Iruhande gwago hakaba hariho amatara menshi gagiye gatandukanye, n'inyubako z'amazu menshi, mo hagati hakaba harimo ikibuga dukoreshaga muri siporo turi gukina cyangwa se turi kwinanura.

Ndabona ifoto y'umundu wambaye agapira k'icyatsi n'umukara, akaba afite baro ifite amabara abiri umuhondo nubururu, akaba yambaye amasogisi maremare yumukara, akaba yambaye na bogisa, akaba ari hirya ye hariho ikintu gisa n'aho ari ipangu n'ubwatsi bisa n'aho agiye gukeba.

Abandu basiganwaga mu magare. Hakaba harimo umundu wishimye asa naho yatsinze cyane. Abandi benshi bari inyuma ye, harimo abambaye udupira tw'umutuku, n'abandi bari haruguru yabo babafana bambaye ingofero z'ubururu n'ikidara cy'ubururu.

Ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, hakaba hari ikirangantengo gifite akantuza gatoya, n'amabara y'umutuku. Hirya y'aho hakaba hari inzu abantu bicaramo bari kureba, n'ibiti birebire n'ikirere cyiza.

Abakobwa bagiye batandukanye, harimo abafite imitatsi ya natirere n'abashyizeho ibisuko, bakaba bari mu myitozo ngororamubiri aho bicaye kuri sima iri kubonerana, inyuma yabo hakaba hariho uwundi muntu wambaye agapira k'umutuku, ubundi akaba ari kubaha amabwiriza y'umukino.

Imyitozo ngororamubiri, zikorwa n'abantu bagiye batandukanye, ari abakobwa n'abahungu, hakaba hari abari muri siporo, bafite baro bakinishaga amaguru, bitaga futuboro mu ndimi z'amahanga, bakaba bambaye imyenda ya siporo, umwe yambaye agapira k'ubururu n'umweru, undi umuhondo na godiye.

Isiganwa ry'amagare ni umukino ukorwa mu bihugu igiye bitandukanye. Haruguru y'umuhanda hakaba hari abantu bategereje kwambuka kugirango bagende. Hirya yabo hakaba hariho abapolisi bashinzwe ibyerekeranye n'umutekano w'abantu n'imodoka ziri hirya yabo n'ibyatsi biri haruguru.

imyitozo ngororamubiri, zikorerwa ahantu hagiye ahatandukanye harimo nko kwiruka, gukina umupira, gukina volley ball, umuntu usifura, wambaye agapira k'umutuku kanditseho adidas, karirimo n'umukara ku ijosi ryako, yambaye n'ikindi kintu cy'umukara mu kaboko, inyuma ye hakaba hariho umuntu wambaye imyenda z'ubururu.

Ndahabona bantu benshi bafite bari ku murongo basa naho bari kugenda mu nzira nyabagendwa, bakaba bari imbere y'amazu gatandukanye garimo amazu, imbere yaho gariho ibitaka byinshi, baganye ku nzu isa naho iriho ipoto.

Imihanda ni igikorwa gikorwaga na Leta bari gushyiramo amasima, tukaba tugikoreshaga igihe turi kugenda mu ngendo zigiye zitandukanye, tugiye nko guhaha cyangwa gusura inshuti n'abavandimwe, kikaba kidufashaga kwihutisha amasaha ndigapfe ubusa.